Umurima munini kandi w’ibigori byiza cyane, aho biri gukorerwamo umuganda n’inzego zishinzwe umutekano n’izishinzwe ubuyobozi bwa leta. Bakaba bari kubyongereramo ifumbire kugira ngo bikomeze gukura neza, kandi bizabashe gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umurima munini kandi mugari cyane, urimo ibirayi n'ibigori byose bimeze neza, nyirabyo na we ategura ifumbire nziza y'imborera, kugira ngo akomeze kwita ku myaka ye.

Umurima munini kandi mwiza, uteyemo imboga mu buryo bwiza bwa kijyambere， aho umuhinzi wazo ari kuzitaho, azitera umuti wo kuzirinda, kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro mwiza, kandi mwinshi.

Umuhinzi ari gutera imyaka ze umuti yifashishije bimwe mu bikoresho byo kumurinda, nk'udupfukantoki ndetse n'amashashi, kugira ngo bimurinde zimwe mu ngwara zanduriraga mu myanya z'ubuhumekero.

Umurima munini cane guhinzwemo ibigori mu buryo bwiza bwa kijambere, aho abahinzi babyo bari kubitera umuti bifashishije ibikoresho byabugenewe birimo amapombo, n'imyenda zo kubarinda indwara zanduriraga mu myanya z'ubuhumekero.

Umuti bateraga imyaka y'amoko atandukanye kugira ngo uzirinde kwangizwa n'udusimba tuza ku mababi, maze bigatuma imyaka itabasha gutanga umusaruro mwiza. Muri iyo myaka harimo imbuto, imboga, ibirayi ndetse n'ibihaza.

Umuhinzi w'ibireti ari kubikingira yifashishije umuti gubirindaga kwangizwa n'udusimba two mu bwoko butandukanye dutumaga bidatangaga umusaruro guhagije ku isoko.

Umurima w'amashu mugari kandi munini, aho nyirawo ari kuyitaho, ayatera imiti itandukanye yo kuyarinda uburwayi, kandi no kugira ngo azabashe gutanga umusaruro mwinshi ku isoko.

Igikoresho cyiza cyane kandi gikomeye cy'ingorofani. Aho abahinzi borozi bacyifashisha batwara ifumbire y'imborera kugira ngo bayigeze mu mirima yabo. Maze bayifumbire kugira ngo izabashe gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Umukozi ari mu murima gwe gw'ibigori abitera umuti. Yambaye imyenda zabugenewe, zimurinda zimwe mu ndwara z'ubuhumekero ziterwaga n'iyi miti.

Umurima urimo umumero w'ibigori, aho nyirabyo ari kubyitaho abiha ifumbire y'imborera ndetse n'indi mvaruganda kugira ngo bizarusheho gukura neza kandi bizabashe no kuzatanga umusaruro mwiza.

Umurima munini cyane urimo umuceri mwiza, kandi utohagiye aho n' abahinzi bawo bari kuwitaho bakoresheje amapombo, adashobora kubangiza mu myanya y' ubuhumekero kuko afite imyanya zitera umuti zirebye inyuma mu migongo yabo.

Igihingwa cy'intoryi, aho zakuze zikaba nyinshi kandi nziza cyane, umuhinzi wazo akaba ari kuzitera umuti yifashishije icyuma cyabugenewe n'imyambaro yabugenewe yo kumurinda indwara zandurira mu buhumekero.

Ikirundo kinini cyane k'ifumbire y'imborera, aho nyirayo ari kuyitaho, kugira ngo izabashe kubora neza, maze mu kuyifumbiza imyaka nayo izabashe gukura neza, no kuzatanga umusaruro umeze neza.

Ikibaya kinini cane c'umurima gw'ibigori, aho inzego zishinzwe umutekano n'inzego zishinzwe ubuyobozi bwa Leta, abaturage b'ingeri zose bahuriye. Kugira ngo bashire ifumbire ku bigori, kugira ngo bizakure neza maze bizabashe gutanga umusaruro mwinshi.

Ifunguro ryiza cyane rigizwe n'ifi, agasalade, umuceri, n'urubuto rw'ironji, n'agasosi. Ifi ni ikiribwa cyiza cyane aho gikunda no kugaburirwa abana, kugira ngo bazabashe gukura bafite ubwenge.

Ifunguro ry'ifi yokeje neza aho riherekejwe n'agasalade karimo inyanya n'agasereri, udupande tubiri tw'indimu, aho uri burifate ari bubashe kuryoherwa cyane.

Ubucuruzi bw'ibiribwa biva mu mazi bitandukanye, harimo amafi yumishijwe, indagara, isambaza ndetse n'ibindi bita amahera. Ibi biribwa bikaba bigira umwihariko wo kuryoha, kandi bikagira n'intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Amafi abiri manini meza kandi gamaze gutegugwa kugira ngo gaje gutekwa. Ifi kikaba ari ikiribwa cyiza cane kiboneka mu mazi, aho kigira intungamubiri nyishi kandi zihagije ku mubiri w'umuntu, cane cane ku bana bakiri batoya.

Ubucuruzi bw'amafi aho bucururizwa ahantu hizewe cyane kandi hafite isuku, kugira ngo abayagura bajye bayatwara bizeye neza ko afite ubuziranenge, kandi babashe no kuyarya bishimye, bazi neza ko bayakuye ahantu heza hizewe.

Umurima urimo ibiti binini cyane kandi byinshi by'avoka, aho bitanga umusaruro ushimishije. Iyo byeze neza, maze nyirazo na we akabasha kubona amafaranga menshi ku isoko.

Inzu y'umuturage yubakishijwe amatafari ga rukarakara, isakashishijwe amabati n'urugi rwa metalike. Kandi ikaba ifite n'uruzitiro rwiza rutoshye, n'urutoki rumufasha gutunga umuryango gw'iwe.

Umurima munini w'ibinyomoro, aho bigaragara ko bikiri bitoya ariko bikaba bishishe, kandi bifite n'amababi manini, kandi bikaba bizavaho ibinyomoro byiza bizabasha gutanga umusaruro mwiza ku isoko.

Umurima gw'ishamba g'intusi zikiri ntoto, aho bigaragara ko zitarakura kugira ngo zibashe gutanga umusaruro, nko kuzicana cangwa se kuzikoramo ibikoresho bitandukanye birimo imbaho, intebe n'ibindi.

Igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo kitwa Igiko, aho kiboneka cyane mu ntara y'Amajyaruguru no mu ntara y'Iburengerazuba, aho gikunda kwifashishwa cyane mu gushyira imbibi hagati y'imirima y'abaturage, kandi kigakoreshwa igihe bari gutinda amatuwarete.

Ibiti by'imisave aho babikoreye ingemwe zabyo, kugira ngo nizimara gukura neza zizabashe guhabwa abazikeneye maze bazazitere. Imisave ni ibiti byifashishwa mu mirima, kandi bikifashishwa no mu mitako y'isuku mu majaride.

Uruboga rw'ikikododoki rwakuze, rukaba rwarakuriye ku giti, rukagipfuka, ba nyirarwo bakaba babasha kubonaho ibidodoki byo kurya neza. Ikidodoki ni uruboga rwera rurandaranda, rugakura cyane, rukaba rurerure, cyane cyane iyo rubonye igiti rukuriraho, rubasha gukura neza, kandi rugatanga n'ibidodoki byinshi cyane.

Umurima munini cyane aho bigaragara ko umaze gusarurwamo ibigori, none ubu ukaba gutegereje kuzahingwamo indi myaka. Akaba ari yo mpamvu bawuraje, kugira ngo imyaka izajyamo izabashe kuzatanga umusaruro mwiza.

Umurima gurimo ibigori byahinzwe neza mu bujyo bwa kijambere bikaba bigiye kwera, n'ugundi guri iruhande gwagwo nta kintu kirimo baraguraje.

Igiti kinini cyane cy'urubuto rwa voka, aho cyakuze kikaba kirekire cyane, kikaba kibasha gutanga imbuto nyinshi kandi zihagije, kubera ukuntu gifite amatabi menshi kandi manini cyane.

Ibirayi byarumbye kubera ko bitabashije kwegerana ngo bibyibuhe, kuko byahinzwe mu butaka bubi kandi bukomeye, bituma bitabasha gutanga umusaruro mwiza kandiguhagije.

Ishamba jyiza kandi jy'ibiti byiza birebire cane aho bikomeje kuba birebire no gukura neza kugira ngo igihe co kubisarura bizabashe kuvamo imbaho nziza n'ibindi bikoresho bikenerwa bivaga mu biti.

Umurima munini cyane w'ibijumba, aho bigaragara ko bimaze kwera neza. Bikaba bigiye kuzasarurwa maze bikazashirwa ku isoko, cyangwa se bikazahunikwa kugira ngo abagize umuryango bazabashe kubirya.

Umurima w'ibirayi uri hafi y'amago aho bigaragarako byarangije guhabwa ibyangombwa byose kubibagara, kubyuhira no kubitera umuti, ahasigaye bikaba bisigaje kuzasarurwa kugira ngo bishyirwe ku isoko.

Umurima munini cyane urimo imyaka itandukanye kandi igiye kwera, igipande kimwe kikaba kirimo ibirayi, ikindi kikaba kirimo karoti. Izo myaka yose ikaba igeze igihe gishimishije cyo gutanga umusaruro.

Umurima munini cyane kandi uhinzwemo imboga zo mu bwoko butandukanye, kandi ukaba guhinzwe mu buryo bw'amaterasi bwafashaga imyaka kwera neza kandi, kakarinda umurima gutwarwa n'amasuri.

Iteke rinini ryiza kandi ribyibushye, aho bigaragara ko rizavaho amateke menshi, amateke ni kimwe mu biribwa byo mu bwoko butera imbaraga kandi akaba agira, amoko atandukanye yayo.

Ikibaya c'umurima munini cane gw'ibigori byumye byeze neza, aho byiteguye gusarugwa mu gihe gitoya maze bigashyirwa mu buhunikiro bwabyo, nuko bikazatanga amafaranga mu gihe gikwiye.

Umurima munini cyane kandi mugari w' urusenda aho rumaze kwera neza, rukaba rumaze guhisha nyirawo akaba ari kurutambagira yitegereza neza urweze neza arukuramo, kugira ngo abashe kurushyira ku isoko.

Ingemwe z'igiti cy'umusave aho zateguwe neza, kugira ngo zihabwe abaturage bazikeneye bazishyire mu mirima yabo, maze zirwanye amasuri. Igiti cy'umusave kandi giterwa hamwe na hamwe nko mu buryo bw'umutako.

Imiteja myiza kandi ifite ibara ry'icyatsi kibisi, aho bigaragara ko yaciwe ako kanya kugira ngo ibashe gutekwa, imiteja ni kimwe mu biribwa byo mu bwoko bw'imboga, kandi zikaba zongerera umuntu vitaminini se irinda indwara z'uruhu.

Indimu nziza kandi nini aho bigaragara ko zisaruwe vuba, ku buryo zicyifitemo intungamubiri zihagije. Zigirira akamaro umubiri w'umuntu, indimu zikaba zigira vitaminini C ifite akamaro ku ruhu rw'umuntu. Irufasha guhora rutohagiye.

Umusozi mwiza kandi mugari cyane uriho ibiti byiza bitandukanye, kandi ukaba uhinzweho amaterasi afasha imirima kutajyanwa n'amasuri, kandi n'imyaka iyahinzweho ikabasha kwera neza, igatanga umusaruro uhagije.

Ikijumba cyiza cyane, cy'ibara rya oranje, kuko cyahinzwe neza ,mu butaka bwiza ,kandi kigahabwa n'ibyangombwa byose, kugira ngo gitange umusaruro mwiza. Iki kijumba gifite akamaro kenshi cyane, mu mubiri w'umuntu, aho kiganjemo vitamine ya A irinda ubuhumyi.

Umusaruro gw'ibijumba byiza cane kandi binini aho bigaragara ko nyirabyo yabyitayeho mu kubihinga kugirango bizabashe kubona isoko rihagije ndetse n'abaguzi benshi.

Umurima munini cyane ,w'imyaka myiza kandi itandukanye , aho nyirago ari kwikorera ifumbire y'imborera kugira ngo bafumbire izo myaka kugira ngo izere neza kandi izatange umusaruro mwinshi.

Umurima munini cyane wa karoti kandi zeze neza, aho umuhinzi wazo azerekana yishimye, kuko yitegura gukuramo umusaruro mwinshi, maze akawujyana ku isoko, akabasha kubonamo amafaranga menshi.

Umurima w'ibigori byiza kandi binini cyane byakuze neza, kubera ko umuhinzi wabyo yabyitayeho, akabiha ibyangombwa byose bihagije birimo ifumbire n'ibindi byose nkenerwa, kugira ngo ibigori bizabashe gutanga umusaruro mwiza cyane ku isoko.

abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagore mu mpuzangano y'ibara ry'icatsi bitabiriye urugendoshuri aho batemberezwa umurima w'ibiti by'imyembe kugirango babashe gusobanukirwa neza uko ibiti bifatwa neza kugira ngo bibashe gutanga umusaruro guhagije

Umurima g'urusenda gwahinzwe neza aho rwabashije kubona ibyangombwa byose nkenegwa kugira ngo ruzabashe gutanga umusaruro guhagije ku isoko.

Imyembe myiza cyane kandi zakuze neza zikabyibuha cyane, ku buryo bigaragara ko zihishije neza zikaba zibasha gushirwa ku isoko, maze abaguzi bazo bagatangira kuzigura kandi bishimye.

Umuhinzi uri mu bigori byiwe ahari kubikorera, abyicira, ibyapfuye akabikuramo, agakuramo n'utwatsi kugira ngo bizabashe gukura neza, kandi bizatange n'umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Agakoko kariho urunyogwe， amashaza akiri matoto， gateretse hejuru y'akameza kandi gatoya， iruhande rwako hariho udutebo， agatebo kamwe gatoboye hejuru kandi gashaje.

Umusaruro w'ibirayi binini kandi byiza cyane, aho bigaragara ko byabashije kwitabwaho, bigahabwa imiti ihagije kandi bikabasha no gukorerwa ibyangombwa byose, kugira ngo bibe byaratanze umusaruro umeze gutya.

Ubworozi bw'inkoko, aho ari inkoko nziza cyane z'inkokokazi, zikaba zigaburirwa mu gikoresho gituma zitabasha kunyanyagiza ibiryo byazo. Ibi bikazifasha kurya neza ibiryo zagaburiwe, kandi na nyirazo bikamufasha kuzigama ibiryo aba yazihahiye.

Umuhinzi uri gushyira ibitaka mu dushashi, kugira ngo adutegure neza, maze azashyiremo ingemwe z'ubwoko butandukanye yifuza, n'uko mu gihe kizaza azabashe kuzitera ari ingemwe zimeze neza, zizabasha kuzatanga umusaruro umeze neza.

Amatunda meza cyane kandi manini, aho bigaragara ko yitaweho mu kuyahinga, agahabwa ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo abashe gutanga umusaruro mwiza kandi mwinshi ku isoko, amatunda ni igihingwa kiza cyane kuko gifasha umubiri w'umuntu kuwongerera vitamine si, kandi iyo vitamini ikaba ifasha uruhu guhora rutohagiye.

Umuhinzi w'urusenda aragwerekana yishimye, kuko yizeye ko ruzamuha umusaruro mwinshi kandi guhagije ku isoko.

Umurima mugari cyane w'ibitunguru bikiriri bito, ukikijwe n'ubundi murima waraye, utagira ikintu kirimo, umuhinzi arabibagara yifashishije isuka.

Ikiraro kinini cyane cy'ingurube aho bigaragara ko yitaweho neza, kandi ikaba igaburirwa neza kugira ngo izabashe kubyibuha, na nyirayo akaba ari kuyerekana, ashimishijwe n'uko izabasha kumuha amafaranga menshi.

Ubunyobwa bumaze gukarangwa aho bashyiramo umunyu kugira ngo babashe kugira icyanga, nyirabwo akaba abufite mu gasahani k'agapalasitike kugira ngo atangire kuburya cyangwa se no kubugaburira bagenzi be.

Umurima gw'imyumbati zeze neza kandi mu buryo bushimishije, aho umuhinzi wazo ari kuzisarura kugira ngo zimwe azijane ku isoko ndetse n'izindi azigeze mu rugo kugira ngo zibashe gutunga umuryango gwe.

Ikibaya c'umurima gw'icayi gitohagiye, aho abakozi batandukanye; abagore n'abagabo bagisarura bifashishije udutebo bahetse mu migongo zabo, kugira ngo babashe kugitwara mu buryo buboroheye.

Umusaruro mwiza cyane kandi wo mu bwoko bw'ibirayi butandukanye, aho abaguzi bitabiriye kubigura ku bwinshi, kubera uburyo ba nyira byo babyitayeho maze bikabasha gutanga umusaruro mwiza, kandi uhagije ku isoko.

Urubuto rw'ipapayi rwakuze cyane kandi ruhiye neza, aho bigaragara ko n'umuntu ashobora guhita arufungura. Uru rubuto, rufasha byinshi mu mubiri w'umuntu, aho rumuha amavitamini atandukanye, arimo vitaminini A, na vitaminini C.

Umuhinzi w'inanasi aho ari kwerekana umusaruro wazo yishimye cyane, kubera uburyo zeze neza, none akaba agiye kuzishyira ku isoko, nuko zikazamuha amafaranga menshi. Inanasi ni rumwe mu rubuto ruryoha cyane, kandi na rwo rukaba rugira Vitaminin C, ifasha umubiri, kandi ikawurinda indwara z'uruhu.

Ibihoho byateguwe neza cyane, kugira ngo bishyirwemo umurama uzatanga imbuto zitandukanye, zizashyirwa mu mirima y'abaturage, maze babashe kubona umusaruro mwiza kandi utubutse.

Indimu nziza cane kandi nini zibyibushye, aho bigaragara ko zibitswe mu buryo bwiza buzifasha gukomeza kugira ubuhehere no kugira intungamubiri zazo igihe umuntu akeneye kuyifata.

Indimu zakuze neza cyane, zirashisha, kandi zigira ibara ry'umuhondo, aho bigaragara ko zihishije cyane, ku buryo zibasha guhita zijyanwa ku isoko, kugira ngo zishakirwe abaguzi.

Ubwoko busha bw'igiti ca avoka aho igiti kitabaga kirekire ntikinabe kinini ahubwo kakaba ari agati gatoya cane ariko kakabasha gutanga umusaruro w'imbuto za voka nyinshi cane.

Umurima munini cyane kandi mugari w' amatunda aho umuhinzi wawo ari kwerekana yishimye cyane umusaruro mwiza, wavuyemo uburyo yabaye manini kandi akaba yizeye kuzabona, isoko rihagije ryayo.

Umubyeyi uri gusarura ingano, aho ashimishijwe n'umusaruro wazo kuko yazitayeho, none zikaba zaratanze umusaruro mwiza mwinshi, kandi uzabasha kujya ku isoko umeze neza, maze akabona abaguzi bahagije.

Umucuruzi w'injuga aho Ari kuzitegura, akoresheje igikoresho cyabugenewe cyo kuzikora. Injuga ni ikiribwa abantu benshi bakunda, kubera ko kibafasha mu biganiro cyangwa se ahantu biyicariye bari gukina udukino dutandukanye, bahekenya utujuga.

Ibijumba byiza cyane kandi byakuze neza, bikaba biri ku isoko kugira ngo abaguzi babikeneye babashe kubigura bajye kubigaburira umuryango. Ikijumba ni ikiribwa kiza cyane, kuko ari kimwe mu bitera imbaraga, rero kikaba gikenerwa cyane, ku bantu bakora imirimo isaba imbaraga.

Ubworozi bw'imbata aho zitaweho, kugira ngo zibashe kororoka neza zikure vuba kandi cyane. Cyane cyane ko iyo zitaweho neza zitanga umusaruro w'inyama uhagije.

Urujya n'uruza rw'abahinzi abagore n'abagabo, aho bari guhinga mu murima munini cyane waciwemo amaterasi. Amaterasi akaba atuma imyaka yera neza cyane, kandi akarinda ubutaka gutwarwa n'amasuri.

Umuhinzi w'ikawa aratambagira umurima gw'iwe kugira ngo arebe yuko zeze neza maze azijane ku isoko, ndetse kuko ari igihingwa ndegabukungu, zimwe zije mu ruganda kugira ngo zitegurwe, maze zizaje gucururizwa mu bihugu byo hanze.

Imyembe myiza cyane yakuze kandi ikaba minini, aho bigaragara ko ihishije neza, ikaba iri ku isoko kandi ikaba iri kubona abaguzi bahagije, kubera ukuntu yeze neza.

Umurima mugari cane gwezemo icayi aho abakozi batandukanye abagore, n'abagabo bavuye kugisarura bifashishije udutebo, kuko aritwo tubafasha kucikorera neza.

Ubwoko bw'ibitunguru by'ibirayi bita onyo aho biri ku isoko. Bikaba biri kubasha kubona abakiriya bahagije, kubera ko byitaweho neza mu mihingirwe yabyo bikabyibuha cyane.

Ubwanakiro bw'imyumbati bugari cyane, aho banitse imyumbati bamaze kwinura mu mazi, kugira ngo izume neza, maze mu gihe gitoya, izabashe gutanga ifu nziza y'ubugari ku isoko.

Umurima wezemo ibirayi byiza cyane kandi byakuze bikabyibuha, ku buryo nyirabyo yizeye kuzabonamo ibyo azajyana ku isoko, ndetse n'ibindi akazabishyira mu rugo rwe, maze bikazabasha kumutugira umuryango.

Umurima w'amateke n'ibihaza, aho bigaragara ko byose bimeze neza. Amateke ni kimwe mu biribwa byo mu bwoko butera imbaraga, naho ibihaza ni kimwe mu biribwa byo mu bwoko bw'imboga birinda indwara.

Umurima munini w'amashu weze neza aba manini, kubera ko ba nyirayo bayiitayeho bayatera umuti n'ibindi byangombwa byose byo kugira ngo amere neza, none bakaba bashimishijwe n'umusaruro bari gukuramo uhagije.

Umurima munini w'amashu aho bayirawo bawurimo bari kuwitaho bamwe bagashiraho itaka, abandi bagashiraho umuti mu buryo butandukanye kugira ngo azabashe gukura neza, kandi azabahe umusaruro mwiza.

Umurima w'ibiti by'urubuto rwa voka aho biri gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza gushimishije, ibi biti ni ubwoko buba bugufiya ariko bugatanga umusaruro gwa avoka nyinshi cane, kandi zigiraga n'amavuta menshi.

Ibirayi byiza cyane byo mu bwoko bw'umweru, aho biri gukurwa mu murima ako kanya, kandi bikaba byarabaye binini cyane, kubera ko nyirabyo yabyitayeho, akabiha ifumbire, akabiha n'imiti n'ibindi byangombwa byose byakenewe, kugira ngo bizabashe gukura gutya.

Ibirayi byiza bitohagiye bimaze nk'ukwezi kumwe n'igice. Umuhinzi wabyo arabitera umuti, yifashishije icuma giteraga imyaka umuti.

Inzu icururizwamo amoko y'imbuto atandukanye, imbuto nziza cyane kandi zisa neza. Zirimo: ibinyomoro, pome, amacunga, n'amaronji, ndetse n'imyembe.

Intoryi nziza cyane kandi nini zabyibushye bitewe n'uko zabashije guhingwa, kandi zikitabwaho zigahabwa ibyangombwa byose, byazifashije kuba ziri gutanga umusaruro mwiza gutya ku isoko.

Umuhinzi uri mu isambu ye irimo ibihingwa bitandukanye, birimo amateke, igiti cy'ipera, insina, amatunda, aho yayakoreye neza akayashingira ibiti kugira ngo yuririreho abashe gutanga umusaruro uhagije.

Urujya n'uruza rw' abaguzi n' abagurisha aho bahuriye ku isoko baje kugurisha imbuto ndetse n' abandi baje kuzigura, z' amoko atandukanye harimo wotameloni, imyembe, ibinyomoro, pome ndetse n' ubundi bwoko bwinshi.

Abahinzi batandukanye abagore n'abagabo bari guhinga umurima wabo bishimye. Aho biteguye kuwugira neza kugira ngo babashe gushiramo ibihingwa bifuza gushiramo, maze bazabihe ibyangombwa byose kugira ngo bizabashe kwera neza.

Igihingwa cya puwavuro aho cyakuze neza cyane, kandi kikaba kitezweho gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije. Puwavuro ni kimwe mu biribwa bigize ibirungo, aho kigira vitamine ya c ifasha uruhu guhora rutohagiye.

Umurima munini cyane umaze gusarurwamo ibirayi, bakaba bari kubishyira mu dufuka tubengerana, kugira ngo bibashe kubikwa neza maze bijyanywe ku isoko, bigaragarira buri wese ko ari umusaruro umeze neza, kandi abaguzi babashe kubihaha bishimye.

Imyumbati zateguwe neza zirahatwa, zirinikwa ,zirinugwa ,ziranikwa kugira ngo bazazibonemo ubugari.

Umusaruro gw'intogi nziza cyane kandi zibyibushye, aho bigaragara ko nyirazo yazitayeho akaziha ibyangombwa byose bikenewe, kugira ngo zibe zarabashije gutanga guno musaruro mwiza.

Abacuruzi b' amata aho bayatwaye mu bicuba, kandi bakaba bifashishije amamoto n' amagare; ibicuba kandi bikaba bitwara amata neza aho bituma akomeza kugira ubuziranenge bwabwo, kandi bikayarinda gupfa vuba.

Ubucuruzi bw'imbuto z'amoko kandi menshi atandukanye harimo imyembe, imineke minini n'imineke mitoya za kamaramasenge, indimu ndetse n'ubundi bwoko bwinshi, bw'imbuto butandukanye buri muri iri soko.

Umusaruro mwiza, kandi w'ibirayi bimeze neza cyane, aho biri gucururizwa ahantu heza, humutse, ho kubirinda kugira ngo bikomeze bimere neza, maze n'abakiriya babishaka babijyane bishimye.

Urubuto rwiza rw'avoka aho bigaragara ko ruhiye neza, rukaba rusatuye ku buryo rushobora kuribwa ako kanya, avoka ni ikiribwa cyiza cyane gishobora kuribwa cyonyine, cyangwa se umuntu akaba yagishyira ku bindi biryo maze bikarushaho kuryoha cyane.

Imyumbati minini cyane kandi yeze neza, aho bigaragara ko yitaweho, none ubu ngubu ikaba iri ku isoko cyangwa se ikaba ihunitswe mu bubiko bwiza, kugira ngo izabashe kuribwa igihe kirekire, imyumbati ni ikiribwa cyiza kuko ari ikiribwa gitera imbaraga, cyane cyane ku bantu bakora imirimo ivunanye, iki kiribwa kirabafasha cyane.

Imyembe myiza cyane yakuze neza ikabyibuha, kandi bikaba bigaragara ko itukuye neza, ku buryo igeze igihe cyo kuyijyana ku isoko, kugira ngo nyirayo ibashe kumuha amafaranga.

Igihaza cyakuze neza cyane kandi kikaba kimaze gukomera aho kigeze igihe cyo kuba cyaribwa. Igihaza ni ikiribwa kibarizwa mu bwoko bw'ibiribwa by'imboga.

Iteke ryiza kandi ryakuze neza cyane ryo mu bwoko bamwe bita bwayisi. Iri teke ni kimwe mu binyabijumba abantu benshi bakunda cyane, kuko ari ikiribwa gitera imbaraga.

Umurima munini cyane wa amashu aho bigaragara ko ari amashu akiri matoya ariko akaba afite ibibabi binini, akaba azatanga amashu manini azagurwa cyane ku isoko ubwo azaba amaze kwera neza.

Umusaruro w'ikawa, aho washyizwe ku zuba, kugira ngo zibashe kuma neza, maze zoherezwe ku ruganda, cyangwa se zoherezwe mu mahanga, kuko ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu, bizanira igihugu amadevize.

Umurima munini w'ikawa, ariko hakaba harimo n'insina zitari nyinshi. Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu, kubera ko zoherezwa mu mahanga, maze igihugu kikabasha kubona amafaranga y'amadevize.

Umurima w'ibiti by'ibinyomoro, ahari ibinyomoro byakuze neza, bikabasha guhisha bigatukura neza, ku buryo bigaragara ko bigeze igihe cyo gusarurwa bikaba byaribwa cyangwa se bikaba byashyirwa ku isoko, kugira ngo bitangire gushakakirwa abaguzi.

Urubuto rwiza rwa avoka aho bigaragara ko ruhiye neza cyane, aho rushobora kuribwa ruri rwonyine cyangwa rugafatanwa n'ayandi mafunguro. Avoka ni igihingwa kiboneka mu bice byinshi by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bitanga umusaruro mwinshi kandi uhagije ku isoko.

Umusaruro w'ibigori by'amoko atandukanye. Bikaba biteretse mu mifuka. Bimwe bikaba ari umweru, ibindi bikaba ari umuhondo. Ibyumweru bikaba bivamo ifu nziza ya kawunga. Na ho iby'umuhondo bikaba bivamo ifu nziza yitwa patejone. Ibigori kandi bikaba bishobora no kuribwa mu buryo bwo kubiteka ari impungure.

Umurima w'ibitunguru byiza cyane bya pwaro, aho nyirabyo ari kubicucira abiha amazi, kugira ngo bikomeze gutohagira kandi bikomeze no gukura neza. Maze bizabashe gutanga umusaruro umeze neza.

Ibishyimbo byiza cyane bivanze by'amoko gatandukanye, aho bigaragara ko byeze neza, kubera ko byitaweho mu murima, bihabwa ifumbire n'ibindi byangombwa byose, byabifashije kugira ngo bibashe, gutanga umusaruro mwiza.

Umurima munini cane kandi gw' ibigori byiza bitohagiye, aho umuhinzi wabyo ari kubyicira agenda akuramo ibigori byapfuye, kugira ngo ibisigaye birusheho gukura neza no kuzatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ku isoko.

Imbuto z'amatunda aho bigaragara ko zabashije gukura neza cyane kubera ko nyirazo yazitayeho akazitera umuti uhagije maze amababi yazo agahora atohagiye bigafasha amatunda na yo gukura neza maze akabyibuha.

Itunda ryiza cyane kandi rinini aho bigaragara ko ryabashije gusha neza kandi cyane, rikaba rishobora guha umubiri w'umuntu vitamine c bihagije. Ifasha uruhu ikarurinda indwara kandi ikaruha guhora rutohagiye.

Isoko ry'ibitoki ririmo urujya n'uruza rw'abantu, abaguzi n'abagurisha, bamwe baje bazanye ibitoki n'abandi baje kubigura, kandi bamwe benshi baje bitwaje amagare yo kubibatwaza, kugira ngo babashe kugera aho bagiye mu buryo bwihuse.

Indimu zeze neza ariko zikaba zikiri ku biti byazo, aho ziteguwe gusarurwa kugira ngo zibashe gushyirwa ku isoko. Indimu ni ikiribwa cyiza cyane kandi kigira vitamini c ihagije, ifasha uruhu rw'umuntu guhora rutohagiye.

Umurima w'amashu aho bigaragara ko yeze neza, kubera ko yamaze kubumba, agakomera, igihe cyayo kikaba kigeze, kugira ngo abashe gushyirwa ku isoko, maze ashakirwe abaguzi.

Amatunda meza cyane kandi gatohagiye, aho bagahinze mu buryo bwiza kandi bwa kijambere, aho bamanitse imigozi kugira ngo gabashe gutondagiriraho maze gabashe gutanga umusaruro mwinshi kandi guhagije.

Umurima munini cyane kandi uhinzwemo amoko y'imboga menshi atandukanye muburyo bwa kijyambere, harimo dodo, karoti, amashu ndetse n'ubundi bwoko bwinshi burimo.

Umucuruzi w'inanasi arazitegura akazihata akazikatamo ibice bitandukanye, akazishyira mu gikoresho kiyiza gifite isuku, kugira ngo nazigoza ku isoko abashe kubona abaguzi.

Imiteja yasaruriwe mu kibase kinini cyane ikaba ari imiteja imeze neza ibyibushye, kandi bigaragara ko isaruwe ako Akanya. Imiteja n'ikiribwa kiza cyane aho ifasha umubiri kiwufasha cyane mu kuwongerera vitaminini c.

Umurima munini cyane urimo ibirayi n'ibigori bikiri bitoya, aho abantu benshi cyane bari kubyitaho babyongerera ifumbire, kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro mwinshi, w'ibigori byiza kandi n'ibirayi byiza.

Ubutaka bunini cyane buteyeho ibirayi biri ku mirongo myiza cyane, aho bigaragara ko bibagawe vuba, kandi bikaba bikiri bitoya cyane, aho bigikeneye kwitabwaho kugira ngo bizatange umusaruro mwinshi kandi uhagije.

Ibisheke byinshi birunze ahantu hamwe kandi by'ubwoko butandukanye: harimo ibisheke bifite ibara ry'umutuku, n'ibigiraga ibara ry'umuhondo, n'ibindi by'icyatsi, kandi harimo ibifite ingingo ngufiya cane n' ibindi bifite ingingo ndende.

Igihingwa ca puwavuro kirimo amoko atandukanye iz' icyatsi, iz' umuhondo ndetse ni iz' umutuku zikaba zarahinzwe neza, zarashishe kandi zikaba ziri gutanga umusaruro mwiza ku isoko; puwavuro ni kimwe mu bihingwa bigaragara mu birungo dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibigori byiza cyane byo mu bwoko bita mayizori, aho biri mu gatebo, bikaba byaciwe bikiri bitoto bitari byuma, kugira ngo bibashe kotswa bishyirwe ku isoko, maze ababikunda babashe kubibona.

Umurima munini cyane w'ingano, aho bigaragara ko nyirazo ari kuzitaho kugira ngo zirusheho kubyibuha, maze ubwo zizagera ku isoko, zizabe ari nziza kandi zibyibushye, kandi zizabashe no gutanga umusaruro mwinshi cyane.

Umurima munini cyane w'ibirayi byiza kandi bimeze neza, aho byarangije kubagarwa no kuhirwa. Ubu bikaba bikomeje kwitabwaho mu buryo butandukanye, kugira ngo bizatange umusaruro uhagije kandi mwiza.

Umusaruro w'ibishyimbo byiza cyane bifite ibara ry'umutuku. Aho bigaragara ko mu mihingirwe yabyo byitaweho, bigaterwa imiti, bigahabwa n'amafumbire atandukanye. Kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro mwiza nk'uyu.

Abahinzi bari kurunda ibishingwe kugira ngo babigire neza, aho bari bubishyire maze bizabashe kubora, nuko bizabashe gutanga ifumbire nziza, izabasha gufumbira imyaka, maze na yo ikazabasha gutanga umusaruro umeze neza.

Inyubako nini cyane y'ubuhunikiro bw'ibigori yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho bwa kijyambere inkingi z'ibyuma ,amabati meza kandi akomeye kugirango ibigori bitangirika kandi umusaruro wa byo uzagere ku isoko ugifite ubuziranenge.

Inzu itunganyirizwagamo imbuto z'ibinyampeke bitandukanye, harimo impungure, ibishyimbo, amasaka, uburo, ingano, soya, umuceri n'ibindi. Aho ababikeneye babisanga, bizeye neza ko byujuje ubuziranenge.

Umurima munini cyane w'amasaka yakuze neza, kandi afite amahundo abyibushye cyane. Aho bigaragara ko ubwo azera neza, azatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ku isoko.

Amasakaga amamera gavaga mu masakaga amakoma, iyo baginitse mu gihe babaga bashaka gukora ikigage gihiye, cangwa se ikigage kidasembuye arico bamwe bitaga ubushera.

Umusaruro w'ibigori byiza cyane bita mayizori, aho biriguhungurwa kugira ngo impungure zabyo zibashe kujyanwa ku isoko, cyangwa se zigezwe ku ruganda, aho zikorwamo ifu iryoha cyane bita patejone.

Umusaruro w'ikinyampeke cy'ingano aho utarategurwa neza ngo ukurwe mu bishishwa byawo maze ushyirwe ku isoko utonoye neza aho abakiriya bagomba kuwusanga bakawugura umeze neza kandi ufite isuku.

Umuhinzi uri kwanika umusaruro w’iwe w'ibigori, aho bigaragara ko yabyitayeho, ni uko bikabasha gukura neza, kandi akaba azabishyira ku isoko, akazabasha kubona abaguzi benshi, cyangwa se akazabishyira mu rugo, kugira ngo bizabashe gutunga umuryango we.

Umusaruro w'ibishyimbo, aho byasaruwe byumye neza none bikaba biri kugosorwa, kugira ngo bibashe guhunikwa, cyangwa se bibashe gushyirwa ku isoko, kugira ngo abaguzi babikeneye babashe kubibona.

Umurima w'amashaza amaze kuba urunyogwe, aho nyirarwo ari ku gasoroma yifashishije agatete ka kuma, mu buryo bwo kumworohereza kugira ngo abashe gusoroma urunyogwe rwinshi.

Umusaruro w'ingano zisa neza cane kandi zibyibushe, aho bigaragara ko umuhinzi wazo wazitayeho akazihinga neza mu buryo bwa kijambere , none zikaba zaramuhaye umusaruro mwiza kandi gushimishije.

Ibishyimbo byiza cyane, aho bigaragara ko byahinzwe neza, bikitabwaho, kuko bifite ibiteja binini cyane, bigaragara ko bizavamo ibishyimbo nabyo bimeze neza, bizatanga umusaruro mwiza.

Ikirere gifite igihu kibuditse cyane, cy'ibara ryijimye ry'umukara, aho cyiteguye kugusha imvura nyinshi cyane, mu masaka agaragara ko yeze neza yumye, kandi yiteguye gusarurwa mu gihe gitoya cyane.

Igihwagari cyakuze neza maze kiba kinini, kandi kigira n'imbuto nyinshi, igihwagari ni urubuto rwiza cyane, ruvamo ibintu byinshi kandi bitandukanye, birimo amavuta, yo guteka, atagira ingaruka n'imwe ku mubiri. w'umuntu.

Umusaruro g'ubunyobwa bwitaweho neza cane mu kuwuhinga maze hakavamo ubunyobwa bwiza bunini cane bubyibushe kugira ngo buzabashe kubona abaguzi bahagije ku isoko kandi no mu ruganda buzabashe gutanga amavuta gahagije.

Imiteja myiza cyane kandi itohagiye mu ibara ry'icyatsi, aho bigaragara ko ari bwo igisarurwa. Imiteja ni ikiribwa cyiza cyane kigira vitamin c, ifasha uruhu rw'umuntu guhora rutohagiye.

Inzu nini cane y'ubuhunikiro bw'imyaka, ahahunitswe ibigori byiza kandi bibitswe mu bujyo bwiza, aho bimanitswe ku biti kandi bikaba bigifite n'amababi gabyo kugira ngo gabirinde kugeza igihe bizashirirwa ku soko.

Umusaruro w'ibishyimbo byinshi cyane, aho nyirabyo abitwaye ku igare, kugira ngo abijyane mu rugo maze babyanike bibashe kuma neza, nuko bazabashe kubihunika byarumye neza, cyangwa se bazabishyire ku isoko, ari umusaruro wumye neza.

Umusaruro w'ibinyampeke byiza cyane, kandi byeze neza bishimishije birimo; ubunyobwa, ingano, amasaka, umuceri ndetse n'ibigori, aho bifunze neza mu mifuka kugira ngo abaguzi babyo babashe kubigura bifite ubuziranenge kandi bifite isuku.

Umurima munini cyane w' ibihwagari, aho byakuze neza byose bikaba bifite indabyo, kuburyo wabyibeshaho ko ari umurima w' indabyo zisanzwe; igihwagari ni kimwe mu bihingwa bijyanwa mu nganda maze bigakorwamo amavuta meza kandi aryoha, akundwa ku isoko.

Ikibaya kinini cyane cy'umurima w'ibigori. Aho bigaragara ko byamaze gusarurwa kandi hakaba haravuyemo ibigori byinshi cyane bishimishije, kandi bizatanga umusaruro mwiza ku isoko.

Umusaruro w'ubunyobwa mwiza cyane ariko ukaba utarakurwa mu bishishwa byawo, kugira ngo ubashe kwanikwa neza, maze ujyanwe ku isoko. Cyangwa se ubashe kuyjanwa mu nganda zitandukanye kugira ngo ubashe gukorwamo amavuta na yo aba meza ku isoko kandi agakundwa n'abantu benshi.

Umubyeyi n'abana be bagiye gusarura imyaka zabo, imvura irabatesha none bugamye mu mutaka ariko si bose, kuko umutaka ari mutoya bategereje ko imvura yahita maze bagasubira mu kazi kabo.

Umubyeyi uri kwita ku musaruro gw’iwe g'ubunyobwa， yifashishije bimwe mu bikoresho bimufasha gukuramo imyanda zitandukanye，kugira ngo abashe kugugeza ku isoko gudafite ubuziranenge.

Umurima munini cyane w'ibishyimbo, aho bikiri bitoya cyane ariko bikaba ari byiza bifite amababi abyibushye kandi ameze neza ku buryo bigaragara ko bizatanga umusaruro mwiza kandi uhagije ku isoko.

Umusaruro w'ibishyimbo byiza cyane byeze neza, aho bifite imishekwe myiza ariko itari yuma neza, bikaba bitegereje gukurwa muri iyi mishekwe, maze bikanikwa bikuma neza bigashyirwa ku isoko cyangwa se bigahunikwa.

Umurima munini cyane w'amasaka meza abyibushye, kandi afite n'amahundo manini, ku buryo bigaragara ko naramuka yeze azatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ku isoko, maze nyira yo akazabasha kubonamo amafaranga menshi.

Ibishyimbo byiza kandi binini cyane, aho bigaragara ko byabitswe neza, maze bigashyirwamo umuti wo kubifasha kuribwa igihe kirekire, no kuzabikwa igihe gihagije kandi n'abazakeneraho imbuto, bakazayibona bikiri bizima bitaramunzwe.

Igishanga kinini cyane, aho abahinzi batandukanye, abagore n'abagabo bari kugihinga, kugira ngo bazabashe gukuramo umusaruro w'ibiribwa bitandukanye. Ibishanga bikaba bihingwamo ibiribwa bitandukanye birimo: umuceri, amateke, ibisheke ndetse n'ibindi.

Urunyogwe rwiza cyane rwiganjemo ibara ry'icyatsi, aho bigaragara ko ari ho rugisoromwa kugira ngo umuntu uri bubashe kurufata aze kubonamo intungamubiri zose zuzuye ziboneka mu runyogwe.

Igihwagari kiri mu murima, aho bigaragara ko cyakuze neza cyane kikabyibuha. Igihwagari ni igihingwa cyiza cyane gikurwamo amavuta aryoha cyane, kandi akundwa n'abantu benshi ku isoko.

Umusaruro w'igihingwa cya soya, aho bigaragara ko zabyibushye kandi zikaba zumye neza. Soya ni ikiribwa kiribwa mu buryo butandukanye, aho bamwe baziryamo umutsima, abandi bakazikoramo amata ndetse n'abandi bakazikoramo ikiribwa bita tofu.

Igihingwa cya soya aho bigaragara ko cyahinzwe neza mu buryo bwiza, kikaba kiri kwitabwaho kugira ngo kizabashe gutanga umusaruro umeze neza. Soya ni ikiribwa kiza kiribwa mu buryo butandukanye, aho bashobora kukinywamo igikoma, cyangwa se bakakiryamo umutsima.

Umurima mwiza cyane w'ingano zitohagiye kandi zibyibushye, aho zahinzwe mu butaka bwiza cane, zigahabwa ibyangombwa byose, kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro mwinshi ku isoko.

Ibishyimbo by'ubwoko bwiza cane, iby'umweru ndetse n'iby'umutuku, biri mu mifuka ziri kubifasha kwirinda kwangirika, aho abaguzi baza babisanga, buri wese akabasha gutwaraho ibyo yifuza.

Umurima munini w'amashaza ariko akaba akiri urunyongwe, aho yiteguye kwera kugira ngo azabashe gutanga umusaruro w'amashaza yumye cyangwa se n'ubu ngubu bakaba bayasarura ari urunyogwe kugira ngo nayo abashe gushyirwa ku isoko abayakeneye babashe kuyabona.

Umurima w'ibigori munini cyane kandi ufite ibigori bizaza bimeze neza, aho bigaragara ko ari bwo biri gutangira kuzana imiterero, bizabifasha kubona imiheko, kandi ibi bigori bikaba bigaragara ko bizatanga umusaruro mwiza cyane kandi uhagije.

Ikigega cyubakishijwe imigano kandi gishakajwe ibyatsi, ubu bukaba ari ubuhunikiro bw'Abanyarwanda bo mu bihe bya kera, aho babwifashishaga bashyiramo imyaka itandukanye irimo: amasaka, ibishyimbo, amashaza n'ibindi.

Umurima munini cyane w'ingano, aho bigaragara ko zimaze kuma neza zikaba zikeneye kuba zasarurwa. Ingano ni ikiribwa kiribwa mu buryo butandukanye, aho zishobora kurigwa ari umutsima, cyangwa se zikanyobwamo igikoma, cyangwa se zikaba zatekwa uko zakabaye.

Ubunyobwa bwatanze umusaruro mwinshi cyane, aho butarakurwa mu bishishwa byabwo, kugira ngo bubashe kwanikwa maze bujyanwe ku isoko. Bubashe kugurishwa bumeze neza, kandi bwumye neza.

Isoko rinini cyane riri gucururizwamo ibintu bitandukanye, birimo :imyenda ,imyaka zirimo ibishyimbo byiza bitaga mutiki impungure ibirayi ndetse n'ibindi biribwa byinshi byo mu bwoko butandukanye.

Umusaruro w'amasaka y'amakoma y'amahundo, aho arunze hamwe kugira ngo abashe kuma neza maze ahurwe, agosorwe, atunganywe nuko ajyanwe ku isoko, aho abasha kubona abakiriya neza.

Umurima munini cyane w'igihingwa cya soya aho zitaweho zikaba zarahawe ibyangombwa byose byo kuzifasha kugira ngo zibashe gukura neza, kandi zizabashe gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ku isoko.

Umurima mununi cane gw 'ibigori byo mu bwoko bwa mayizori, aho umuhinzi wabyo yabyitayeho akabiha ibyangombwa bihagije kugira ngo bizatange umusaruro mwiza w'ibigori binini cane kandi bibyibushye, maze bizamuhe amafaranga gahagije ku isoko.

Ubwoko bw'amasaka atandukanye cyane nubwo abantu basanzwe bamenyereye, aho ayangaya aba magufi akagira amababi maremare kandi abyibushe ndetse n'amahundo manini y'amasaka.

Ubworozi bw'ingurube zubakiye ikiraro kiza，kandi zifite n'uburiro buhagije kandi bugari，aho buri imwe imwe ibasha kurya yisanzuye，kugira ngo zibashe gukura neza.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi cyane kandi z'amasake, aho zarezwe neza maze zikagaburirwa neza nuko zikabasha gukura, zikaba zitezweho gutanga umusaruro mwiza kandi uhagije w'inyama.

Ubworozi bw'ingurube aho zororerwa mu kiraro gikomeye cyane cyubakishijwe ibiti kandi kigari, ku buryo buri ngurube yose ibasha kubaho yisanzuye, kandi ikagaburirwa neza, mu buryo bwiza, maze bikazifasha gukura neza.

Umworozi w'inka ahari kwita ku itungo ge riri mu kiraro, arigirira isuku kandi aritera zimwe mu miti zitandukanye zo kuyirinda indwara zifataga amatungo nk'uburongwe.

Amagi apanze neza mu dukoresho twabugenewe, aho tuyafasha ntabe yabasha kumeneka uko yiboneye, amagi ni ikiribwa cyiza cyane kuko giha umubiri poroteyine ihagije, kandi ikarinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Inka ziri guterwa inshinge na muganga w'amatungo mu rwego rwo kuzirinda indwara zimwe na zimwe nk'uburondwe, aho yifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira ngo nawe abashe kwirinda ingaruka zishobora kumugeraho zivuye kuri ubu burwayi bw'amatungo.

Amagi menshi cyane kandi gafite ibara ryiza ry'umweru aho abitse mu bikoresho biyafasha kwirinda kwangirika. Igi ni ikiribwa cyiza cyane, kuko giha umubiri wacu poroteyine ifasha umubiri kwirinda indwara.

Ibyana by'ingurube, biri mu kiraro kimeze neza, kandi gifite isuku, kandi na byo bikaba bigaragara ko biri kurerwa neza, bikagaburirwa ibiryo byiza, kandi bihagije bizabifasha gukura neza, mu gihe kiri imbere.

Ikiraro kinini cyane kandi kigari cy'inka, aho zirimo zisanzuye, buri yose ikabasha kwitabwaho kandi ikabasha no kugaburirwa mu buryo bwiza, butuma izabasha gutanga umusaruro.

Inkokokazi nini kandi nziza cyane, aho bigaragara ko yahawe ibiribwa byiza byo gutuma ikura neza, kandi ikazabasha no gutanga umusaruro mwiza w'amagi menshi kandi manini.

Ikiraro c'inka kinini cane cubakishijwe ibiti kandi gishakashijwe amabati, cororegwagamo inyana kugira ngo zitabweho mu gihe zitari zakura, zikabasha kurishanya hamwe n'izindi nkuru.

Imbuga yumutse cane n'ikirere gikekemuye kubera izuba mu mazu gubakishijwe amatafari ga rukarakara, kandi gashakajwe ibyatsi, aho umubyeyi avuye kuvuza umwana gwe gw'ihene ku muganga w'amatungo.

Ikiraro cyiza cyane cy'ingurube, cyubatswe mu buryo bwiza bwa kijyambere, aho gikoteye amasima kikaba ari ikiraro kimeze neza, ku buryo buri ngurube igiye iri mu kumba kayo. Ibi bikayifasha kurya yisanzuye, maze kandi igakura neza ikabasha no gutanga umusaruro uhagije.

Ihuriro ry'abaganga b'amatungo, aho abaturage bazanaga amatungo gabo gagize ibibazo by'uburwayi, maze abaganga bakagakurikirana bakagavura. Nuko gagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abavuzi batandukanye b'amatungo, aho bahuriye mu mazu ashinzwe gucuruza inyama, kugira ngo bemeze ko zifite ubuziranenge, maze zitangirwe gushirwa ku isoko, kugira ngo abaguzi bazo batangire kuzigura.

Ingurube nini cyane, aho yabyaye ibyana byinshi kandi bimeze neza, kubera uburyo yakuze neza, ikagaburirwa neza ikororwa mu buryo bwiza bwa kijyambere, bikaba byarayifashije gutanga uwo musaruro uhagije.

Ikiraro k'inka, aho bigaragara ko zubakiye neza, kuko buri yose iri mu kumba kayo, ibi bikayifasha kurya neza yisanzuye, kandi bikanayifasha gukura neza, no gutanga umusaruro uhagije w'amata.

Ubworozi bw'ingurube nyinshi, aho ziri gukorerwa mu kiraro kinini cyane, zikaba zitaweho kuko buri yose yisanzuye itegeranye n'indi, kandi buri yose ikabasha kugaburirwa mu buryo bwiza buzayifasha gutanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkwavu nyinshi cyane, zimwe zifite ibara ry'umweru n'izindi zifite iry'umukara, zikaba zimeze neza zibyibushye, ku buryo bigaragara ko zigaburirwa neza, zikitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umusaruro umeze neza.

Inzu y'ubworozi bw'inkoko zibaga nini cane kandi zitangaga umusaruro gw'inyama nyinshi kandi zihagije ku isoko.

Ubworozi bw'inkoko aho zikiri imishwi, zikaba ziri kurerwa neza, zigaburirwa neza kugira ngo zizabashe kuvamo inkoko nini kandi nziza, kandi zizabasha no gutera amagi manini, zizabasha gutanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ku isoko.

Umusaruro w'amagi menshi cyane ,aho yateretswe mu dukoresho tuyafasha kutangirika. Utwo dukoresho bakaba batwita udutireye kakaba ari amagi menshi cyane ashobora kujya ku isoko, kandi akaba yahaza isoko rinini.

Ubworozi bw' inkoko aho bigaragara ko zororerwa ahantu heza cyane, kandi zikagaburirwa ibiryo byiza izitera zikabasha gutanga umusaruro w' amagi mwinshi, kandi n' izizajyanwa ku isoko zikazabasha kubonerwaho amafaranga ahagije.

Umubyeyi ugiye mu murima wiwe, kandi akaba yajyanye n'amatungo yiwe y'intama, kugira ngo aze kuhabona ubwatsi buhagije bwo kurisha, nuko igihe ari buzicurire zize gutaha zahaze neza.

Umwana w'umunyeshuri ufashe agakosi k'amata， n'inka iri imbere ye， bigaragara ko gamaze gukamwa kuriyo， amata ni ikinyobwa ciza cane ku bana bakiri bato， aho kibafasha kugira ubwenge mu ishuri，gukura neza no kugira umubiri mwiza.

Ubutaka bunini cane kandi bugari bufite ubwatsi bwiza cane butohagiye kugira ngo inka zirimo z'amoko atandukanye zibashe kurisha kandi n'izitangaga umusaruro gw'amata zibashe gutanga umusaruro mwiza kandi guhagije.

Ingurube nziza cyane kandi zororewe ahantu heza hafite isuku, zikaba zinagaburirwa neza. Ibi bikazazifasha gukura neza, kandi bikazazirinda zimwe mu ndwara zirwaraga, iyo zitabashije kwitabwaho mu buryo bwiza.

Inyoni ndende cane y'ibara jy'umweru, amaguru maremare n'umunwa muremure cane, iratembera mu twatsi dutohagiye cane, kugira ngo ishakishemo udusimba two kuyitunga.

Akanyoni k'akanyamanza aho gahagaze ahantu heza cyane mu twatsi twiza tw'icyatsi dutohagiye, aka kanyoni kagira amabara meza y'umukara n'umweru kandi ni akanyoni katona katagira amahane.

Inyamaswa yo mu ishyamba yitwa ishya. Iyi nyamaswa ikaba ari inyamaswa izi kwiruka cyane, kandi ikaba igira uduhembe tureture kandi twigoronzoye tuyifasha kugwanya izindi nyamaswa iyo zishakaga kuyigirira nabi nko kuyica.

Inyamaswa yitwa inkende aho ihetse icyana cyayo mu mugongo. Iyi nyamaswa ikaba ari inyamaswa ishimisha cyane, ikaba iri mu zishimisha ba mukerarugendo kubera ko ikunda gukora utuntu dusekeje kandi igakunda gutarukira mu duti iri gushakamo ibyo kurya aho ikunda kurya cyane cyane imineke n'izindi mbuto zitandukanye.

Inyoni nziza cyane y'amabara y'umuhondo n'umukara, aho ihagaze ku cyari cyayo, iri kurinda ibyana byayo kandi yiteguye kuguruka, kugirango ije gushakira ibyana byayo ibyo kurya.

Inyoni nziza y'umusambi, amaguru maremare, amabara meza, ijosi rirerire, ndetse n'isunzu rihagaze neza, imwe mu nyoni nziza cyane, zigize ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho iri kugenda mu byatsi byiza, kandi bitoshye cyane.

Inuma nyinshi cyane aho bigaragara ko zororerwa ahantu zibasha kwisanzura, zigahabwa ibyo kurya bizihagije, kandi na zo zikabasha kororoka no gutanga umusaruro uhagije.

Ingwe hamwe n'icyana cyayo, aho ziri kugenda zonyine mu nzira zijya gushaka icyazitunga. Ingwe ni imwe mu nyamaswa zikariha cyane zo mu ishyamba nyuma y'intare.

Agasimba k'igikeri k'amabara meza y'umuhondo n'umukara, aho gahagaze ku kababi k'icyatsi kandi kakaba kiteguye gusimbuka, kugirango kabashe kugera hari amazi.

Agasimba k'akanyamasyo, aho kari kugaragara konyine mu ishyamba. Akanyamasyo ni agasimba kagenda gahoro gahoro, kandi kagira uburyo bukomeye bwo kwihisha iyo hagize izindi nyamaswa zishatse kugahohotera.